Ibi byatsi ni ibitovu bikunze kuvamo n'imiti ivura abana mu nda, biranatoshye wagira ngo ahari ni igihe cy'imvura, birasa neza kandi izuba rya ...